Umugabo wagiye kuvoma amazi ku marobine, yicaranye n'ikibido ategereje ko amazi aza, bityo bikaba ari byiza kuba amazi yarageze kuri bose.

Abajyanama b'ubuzima bagiye gusura umupapa, bamugira inama bitewe n'ikibazo yaba afite kugira ngo abashe kumererwa neza, agire ubuzima buzira umuze.

Kugirira amenyo isuku bituma utazana umuhumuro mubi mu kanwa cyangwa se ukaba warwara indwara zo mu menyo ziterwa n'umwanda kubera kutayakorera isuku.

Ikusanyirizwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa, akabati, intebe, protemanto bamanikaho utuntu bifashisha nko mumaseromu.

Abanyeshuri bari mu ishuri berekana uburyo wajya ukora isuku y'amenyo ukoresheje uburoso na corogate, bityo ukabasha kugira ubuzima bwiza.

Kwita ku menyo harimo ubwoko bwinshi wakoresha wita ku menyo. Hari ugukoresha akadodo, hari ugukoresha korogate, hari ugukoresha amakara, hari no gukoresha ibyatsi gakondo.

Abantu babiri bahumurizanya, baganira bumva bameze neza bitewe n'amarangamutima yabo, akabona bari kuganira, ubona nta kibazo, bameze neza.

Umuntu uri kwita ku musaza ugeze mu zabukuru amuha imbuto, amufata neza kugira ngo imyaka ibashe kwiyongera yo kubaho kw'iwe.

Umuganga uri kuri mudasobwa, hari ibyo ari gutunganya bijyanye n'amaraporo y'uburyo, y'ibijyanye no kwa muganga biba bimeze ameze gutya.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinini, harimo amavuta y'abana n'amata y'abana, bityo bigatuma yabona ibintu by'ibanze bitamugoye.

Inzu yo kwa muganga haba harimo ibitanda byifashishwa abarwayi baba baryamaho bityo bigatuma umurwayi babasha kumwitaho neza.

Imyitozo ngororamubiri ituma umuntu amera neza, agatekereza neza, ikamurinda gusaza, akaba ari aho akomeye, afite ubudahangarwa mu mubiri bukomeye kubera gukora siporo.

Umuganga ufite umupira bivuze ko siporo ngororamubiri ari nziza ziturinda indwara, zikaturinda kuba twagira ibibazo bya hato na hato. Bityo bigatuma umererwa...

Umuti ngororangingo bituma aho wari ufite amavunane akira burundu bityo bigatuma, ukaba wagenda wenda akaguru gafite ikibazo kakongera kagasubira mu mwanya wako.

Mu buvuzi bwa gakondo harimo ibimera bidufasha kuba twamera neza, urugero nka gombo igabanya ibiro, hakabamo n'ibindi bimera byoza amara bityo kabaho neza, umeze neza.

Mu buvuzi gakondo harimo ibimera bidufasha kuba twagabanya ibiro, kugabanya amara, kuba twamererwa neza, ibyo byose bigatuma umuntu agira ubuzima buzira umuze.